Umugabo wicaye mu ntebe ufite mudasobwa imbere ye, ndetse n'indangururamajwi, imbere ye ku meza hateretse icupa ry'amazi y'inyange, uyu mugabo yambaye ishati y'ubururu irimo utudomo tw'umweru.

Abantu bicaye mu nama bamwe bicaye ku ntebe z'umukara abandi bari inyuma yabo bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi, inyuma yabo hari abandi bahagaze ndetse igikuta kiri inyuma yabo gifite ibara ry'umuhondo.

Umugore w'umwirabura ufite imisatsi miremire wambaye ikanzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara binyuranyemo, inyuma ye hari icyapa kitagaragara neza gifite ibara ry'icyatsi, imbere ye hari indangururamajwi ndetse iteretse ku kameza kandiditseho inyuguti ra, ga, ba.

Abantu bicaye, umwe yambaye ikoti ritukura, undi yambaye ikoti ririmo amabara atandukanye. Imbere yabo hari ameza ateretseho amazi y'inyange.

Abantu bicaye mu ihema iri hema rifite ibara ry'umuhondo ndetse umutuku n'umweru imbere y'abantu hari umugabo uhagaze wambaye ikoti afite indangururamajwi mu ntoki ze ndetse na terefone.

Abantu batanu, babiri bicaye barebana n'abandi babiri, umwe ahagaze imbere yabo, ari kureba muri mudasobwa, imbere yabo hari amacupa y'amazi ya Nili ndetse n'impapuro.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi y'inyange ndetse imbere ya buri muntu hari ikayi ndetse aba bantu bose bahanze amaso imbere.

Abantu bicaye mu ruhame biganjemo abambaye imipira y'umuhondo. Harimo umwe wambaye ingofero y'umweru afite agakapu, undi yicaye mu ntebe yihariye yambaye umupira utandukanye nuw'abandi.

Abagabo bahagaze basa n'abakira umuntu ukomeye, barahagaze bifashe neza baratuje, imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umweru ndetse hasi yacyo ni umukara hateretseho amazi ndetse n'indangururamajwi bari mu nzu isa neza iri kwaka amatara.

Abantu bicaye bari mu nama bose bahanze amaso imbere, hari umukobwa ufite imisatsi miremire ndetse ufite mudasobwa imbere ye.

Abagore babiri bicaye umwe yambaye rineti ndetse afite n'indangururamajwi mu ntoki ze, undi aricaye ari kumureba yambaye imyenda y'umweru ndetse yitandiye akantu mu ijosi, imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umweru ndetse hateretseho telefone n'icupa ry'amazi ry'inyange.

Abantu bicaye mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara bose. Ndetse imbere yabo hari ibyapa byanditseho kigali yacu ,bifite ibara ry'ubururu.

Abagabo n'abagore b'abirabura ndetse harimo umuzungu umwe wambaye amarineti ndetse n'ikoti ritukura, bose baricaye, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse aba bagabo bari kureba imbere.

Abantu bari kwifotoza bose bambaye udupfukamunwa bamwe barahagaze abandi batatu baricaye aba bantu basoje inama ndetse bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abagabo bicaye, ndetse biganjemo abambaye amarineti, harimo n'uwambaye ingofero. Imbere yabo hari mudasobwa. Bari kuganira, kuko bose bari kurebana.

Abantu bicaye, bari mu nama. Bicaye ku ntebe z'imikara, ndetse imbere yabo hari ameza azengurutse, afite ibara ritukura. Aba bantu bose bicaye barebana. Ndetse bateze amatwi.

Abantu bicaye bari mu nama. Bicaye ku ntebe z'umutuku, ndetse n'intebe ebyiri z'imikara. Bafite ameza ariho ibitambaro by'umweru. Imbere yabo hari umugabo uhahagaze wambaye umupira w'umukara.

Abantu benshi bicaye ndetse inyuma yabo hari abandi bane bahagaze, aba bahagaze begamiye ku gikuta gifite amarangi y'umuhondo. Aba bantu bicaye biganjemo urubyiruko ndetse bari kureba imbere.

Abantu batandatu bicaye bane bari kureba babiri bicaye ku ntebe z'imikara, ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi ndetse n'amacupa y'amazi y'Inyange.

Abantu bicaye mu nama bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura ,ndetse hari ameza afite ibitambaro by'umukara ateretseho amazi y'inyange imbere barakurikiye bose.

Abagabo batatu bicaye umwe yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu, abandi bagabo babiri bambaye amashati y'umweru ndetse imbere yabo hari indangururamajwi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, wahinnye amaboko, yambaye ingofero na yo y'ubururu, mu ntoki ze harimo indangururamajwi ari kuvuga, inyuma ye hari abantu bambaye imipira isa ndetse harimo n'abambaye imituku hasi.

Abantu bicaye bakurikiye inama bamwe imbere yabo bafite mudasobwa abandi bafite amakaye n'amakaramu imbere yabo hari amazi y'inyange.

Abantu bicaye biganjemo abagabo bambaye amakoti, ndetse n'abagore, buri wese imbere hari indangururamajwi, ndetse n'icupa ry'amazi hari n'abafite amacupa ya ji y'inyange.

Abantu bicaye mu nama ndetse buri muntu imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'icupa ry'amazi, umugabo umwe afite terefone mu ntoki ze ari kuyirebamo yambaye amarinete abandi imbere ye bari kuganira.

Abantu benshi bicaye muri sitade, aba bantu benshi bambaye amajire afite ibara ry'icyatsi, ndetse hari n'abadaso bambaye imyenda y'icyatsi babiri bari kugenda.

Abantu batatu bicaye, umwe ari kugaragara umutwe gusa ku gice cy'inyuma, undi ari kugaragara mu maso neza. Inyuma yabo hari icyapa cy'igishushanyo mbonera.

Abagabo n'abagore bicaye imbere yaho hari mudasobwa ndetse n'amazi. Iruhande rwabo hari idarapo rya Repubulika y'u Rwanda ndetse aba bantu bateze amatwi umuntu uri kubabwira.

Abantu bari mu nama, biganjemo abagabo bambaye amakoti, ndetse imbere y'aba bantu, hari ameza ateretseho amazi y'inyange, ndetse hari n'agaseke gatoya kabateretse imbere.

Abantu bicaye biganjemo abagabo, hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki ze ndetse uri kubwira abandi kuko bamuteze amatwi, iruhande rwe hari icupa ry'amazi.

Abantu benshi bicaye basa nk'abategereje kugira icyo bababwira. Aba bantu biganjemo urubyiruko harimo abambaye imipira ndetse harimo n'abambaye amakote,

Umugore w'umwirabura ufite agasatsi gake k'umukara ndetse afite indangururamajwi mu kaboko ke k'iburyo, ndetse akaboko ke k'ibumoso gafashe telefone, inyuma ye hari abantu bicaye.

Abantu benshi bicaye mu matsinda bagendeye ku meza, aya meza bicayeho afite ibitambaro by'umweru ndetse buri meza iteretseho ururabyo, aba bantu biganjemo abazungu.

Abantu batanu bane baricaye undi umwe arahagaze, ari kubabwira abereka uko ibintu bihagaze, umwe ni umuzungu abandi bane ni abirabura, harimo abagore babiri ndetse n'abagabo batatu, imbere yabo hari mudasobwa.

Abantu bicaye ku ntebe zifite irangi ry'umuhondo ndetse aba bantu bicaye biganjemo abambaye amakoti asa ubururu ndetse iruhande rwabo hari amazi y'Inyange ndetse na ji z'Inyange.

Abantu benshi bicaye biganjemo urubyiruko, bambaye imipira y'ubururu ndetse hari n'abambaye imipira y'icyatsi n'abandi bambaye imihondo bicaye munzu.

Abantu bicaye ku ntebe z'imikara. Ndetse barimo abagore n'abagabo. Imbere yabo hari ameza ariho indangururamajwi, amakayi, ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu bicaye mu ihema rifite ibitambaro by'umweru. Aba bantu bose baricaye, harimo abambaye agapfukamunwa, ndetse biganjemo abambaye amataratara.

Inama yateranye, iyi nama yiganjemo abagore benshi ndetse biteze ibitambaro mu mutwe, bicaye ku ntebe z'imyeru. Imbere yabo bateze amatwi abandi bantu bicaye babareba, harimo umwe wambaye imyenda ya polisi.

Abantu babiri bicaye imbere yabo hari amakayi ndetse n'amazi y'inyange, ahantu bicaye ameza yaho ariho igitambaro gifite amabara abiri ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umuhondo. Umugore azamuye akaboko ari kubwira abantu abereka.

Abantu batanu bicaye barimo umugore umwe ndetse n'abagabo bane, aba bagabo bambaye amakoti ndetse harimo n'abambaye karuvati bose baricaye imbere yabo hateretse amakaye.

Icyapa cyamamaza kiramamaza rwandareveni. Iki cyapa kiriho ibirango by'amaradiyo agiye atandukanye harimo n'ikirango cya radiyo y'u Rwanda Iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati ukwezi ko gushimira abasora.

Mudasobwa na telefone, iruhande handitse amagambo agira ati ;'' Menyekanisha uyu munsi umusoro ku nyungu za bibiri na makumyabiri nagatatu wishyure bitarenze tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.''

Umugore w'umwirabura ufite imisatsi y'umukara, yambaye umwenda w'umweru imbere ye hateretse mudasobwa ari kuyikanda, iruhande rwe, hari ikirahuri cy'amazi.

Icyapa cya Rwanda Revenue Authority cyiganjemo ibara ry'ubururu, handitseho amagambo n'ibara ry'umuhondo agira ati ''harabura iminsi itanu gusa''.

Icyapa cyamamaza; iki cyapa ni icya Rwanda reveni otoriti, ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Iki cyapa cya mamaza kirerekana ko uyu munsi ari wo wa nyuma wo kwishyura.

Umunara muremure ufite amabara y'umweru ndetse n'atukura, iruhande rwaho hari igiti cyihateye gifite amababi y'icyatsi, ndetse iruhande rw'iki giti hari imodoka ifite ibara ry'umweru yitwa Kwasiteri.

Abantu bicaye ndetse mu matsinda bicaye ku ntebe zifite irangi ry'muhondo wijimye ndetse aba bantu bategereje ko babakira mu gihe bari kuganira.

Icyapa cyamamaza kiriho ibirango bya televiziyo y'u Rwanda ndetse hejuru hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda. Iki cyapa kiriho abagabo bane. Cyanditseho amagambo akurikira:"Kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo."

Itangazo rya Rwanda reveni ryanditse riragira riti, kurikira ikiganiro k'ikigo k'imisoro n'amahoro, itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu, itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na makumyabiri na kane.

Inyubako ifite amabati atukura ndetse iriho ibyapa byinshi byamamaza, ibi byapa biri mu mabara agiye atandukanye hari ibifite amabara y'ubururu, ibifite amabara atukura ndetse n'ibifite amabara y'umuhondo.

Icyapa cyamamaza cya Rwanda Revenue Authority; iki cyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse hariho abana bishimye bari guseka. Munsi yabo hari inzu ndende ziri mu mujyi wa Kigali; hariho n'indege igaragara ku gice cy'inyuma.

Umugabo uhagaze wambaye ipantaro n'inkweto zifunguye ari kureba muri terefone, imbere ye hari akabati karimo ibintu bacuruza, iruhande rwe hateretse amasafuriya.

Abantu bicaye mu nama imbere hari umuntu bateze amatwi uhagaze uri kubabwira wambaye imyenda y'ubururu. Aba bantu bose imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi.

Umunara muremure cyane ufite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku. Uyu munara uriho amatara ndetse iruhande rwawo hariho insakazamajwi ifite ibara ry'umweru. Aya mashusho aragaragaza ikirere gisa neza gifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Icyapa cyamamaza ndetse kiburira. Iki cyapa ni icya rura. Cyanditseho amagambo agira ati: "ikoreshwa rya gazi mu ngo." Iki cyapa gishushanyijeho gaze, amacupa atatu, imwe ifite ibara ritukura ndetse indi ifite ibara ry'ubururu n'ifite ibara ry'umuhondo.

Icyapa cyamamaza kiraramamaza serivise nshya z'irembo. Irembo ni urubuga rukoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo buri wese abashe kubona ubufasha byoroshye atiriwe ajya gutonda umuronko.

Icyapa cyo gushimira, iki cyapa cyanditseho gushimira abasora ku nshuro ya makumyabiri na rimwe, ukwezi ko gushimira abasora bibiri na makumyabiri na gatatu. Handitseho gusaba fagitire ya ibiyemu wubaka u Rwanda.

Abagabo babiri bahagararanye umwirabura ndetse n'umuzungu, umuzungu yambaye ikositimu, umwirabura yambaye ingofero y'umweru n'ikote ry'icyatsi.

Umusore ufite umusatsi mukeya w'umwirabura afite telefone mu ntoki ze arikuyireba, inyuma ye hari undi wambaye agapfukamunwa arasa n'umuhanze amaso yitegereza ibyo akora.

Ibimenyetso bikoreshwa mu kwirinda kwandura korona virusi harimo kwirinda gusuhuzanya, kwambara agapfukamunwa, kwirinda guhanahana amafaranga mu ntoki, ndetse no kwirinda kwegerana muri kuvugana.

Umuryango ufunguye uriho ibyapa byamamaza icyapa cyuri ifite ibara ry'umuhondo cyanditseho emutiyeni hejuru yacyo hari ikindi cyanditseho b p r bisobanuye banki Popurare.

Abagabo bicaye bafite telefone mu ntoki zabo, ndetse imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa, ndetse n'amazi y'inyange. Aba bagabo bose bambaye imyenda y'imyeru.

Umugabo uri guseka uri kwerekana telefone irimo amagambo, ndetse iyi telefone iragaragara nk'iyo binjiye muri sisitemu y'irembo. Uyu mugabo ari gutunga agatoki kuri telefone yerekana yuko mugomba gusoma ibiyirimo.

Urutoki, ipoto iriho itara rimurikira abantu nijoro kugira ngo babone uko bagenda hari abantu babiri bari kugenda ndetse iruhande rwabo hari urukuta rwubakishijwe amabuye.

Indabo ziteye mu mashashi, izi ndabo ziragurishwa iyo uzishaka uraza ukishyura bakaziguha ukazijyana kuzitera iwawe. Uzikura mu ishashi ukazitera, zigahita zikura zigendeye aho zigeze ubungubu.

Igiti kiriho insinga z'amashanyarazi ajya mu byerekezo bitandukanye, iki giti giteye ahantu hari ibyatsi birebire, iruhande rw'ibi byatsi hari inzu ihubatse ifite amabara meza.

Umugabo uri kugenda, wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umukara, urimo ibara ry'umweru. Uyu mugabo ahetse igikapu. Uyu mugabo ari kugenda avugira kuri terefone. Iruhande rwe hari umurima ndetse uyu murima urimo amapoto abiri atanga amashanyarazi.

Ipoto ririho insinga zikwirakwiza amashanyarazi, iri poto riteye ahantu hari ibyatsi byinshi bisa n'indabo, izi ndabo harimo iz'umuhondo, iz'umutuku ndetse n'icyatsi.

Umuhanda urimo moto ndetse n'imodoka iparitse kuruhande, iyi moto ifite ibara ritukura, iruhande rw'umuhanda hateye amapoto acaho insinga zitanga amashanyarazi.

Ibyuma bifite ibara ritukura bizengurutse umunara ibibyuma hejuru yabyo hariho senyege zishinzwe gukumira abantu kugira ngo bataza kwangiza umunara.

Igiti giteye hanze y'uruzitiro kiriho insinga nyinshi zijyana amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye. Iki gipoto giteye ku gipangu cyanditseho mirongo itatu ndetse umuryango wacyo urafunze.

Icyapa cyerekana amerekezo, hari igikomeza hari icyerekana aho ndetse n'igikata. Inyuma yacyo hari urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'umunara ufite insinga zijya mu byerekezo bitandukanye.

Igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye. Ndetse iki gikuta kiriho igishushanyo cy'umugore uteruye umwana, iki gikuta kandi kiriho n'umuryango.

Ahantu ibinyabiziga biparika hari ubusitani buteyemo umukindo ndetse burimo n'itara rimurika igihe bwije, aha hantu haparitse imodoka zifite amabara y'umukara ndetse n'amabara y'umweru inyuma yaho hari inzu.

Inzu ebyiri zegeranye zubatswe mu buryo butandukanye ariko zose zubakishijwe amatafari ahiye, iruhande rwaho hari ubusitani buteyemo ibiti, ubu busitani burimo ubwatsi butoshye.

Mu gipangu kirimo agahanda k'ibitaka. Iki gipangu gifite umusekirite wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu. Iki gipangu giparitsemo imodoka zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Hari indi modoka iri kwinjira.

Umuntu wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga udashobora kugenda afashe ku cyuma, yambaye umupira w'umuhondo imbere ye hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Inzu igaragara neza yubatse mu buryo bugezweho imbere yayo hahagaze umuntu , umuntu wambaye umupira w'icyatsi uyu muntu iruhande rwe hari ipoto wambutse umuhanda haragaragara imodoka ziparitse .

Abantu benshi bari kuza gufata ibiryo. Aha hari amasafuriya ateretse ku meza, aya masafuriya arimo ibiryo, ndetse ariho abashefu bambaye ibintu by'umweru.

Icyapa cyanditseho Kacyiru, iki icyapa imbere yaho hateye umukindo utari wakura neza ndetse urebye imbere hari inzu yubatse neza ifite amabati afite umuzenguruko.

Abantu benshi bicaye ndetse harimo n'abahagaze, hari abicaye ku ntebe bitwa abunzi, imbere yabo hari igiti kirekire, aba bunzi bicaye ku ntebe ikoze mu giti.

Umugabo w'umwirabura ufite umusatsi muke yambaye ikanzu y'abacamanza ifite amabara atukura ndetse n'umukara yambariyemo ishati y'umweru.

Abagabo babiri b'abacamanza bambaye amakanzu afite amabara y'umukara ndetse n'amabara y'imyeru, aba bagabo babiri hari ikintu bafashe mu ntoki zabo ndetse iruhande hari umuntu ufite indangururamajwi.

Icyapa kirekire cyanditseho amagambo avuga ati '' igororero rya Muhanga ndetse n'andi magambo y'icyongereza'' iki cyapa giteye ku ruzitiro rw'igipangu rwubakishijwe amabuye, aya mabuye afite ibara ry'umweru.

Umugabo w'umucamanza uyu mugabo ari kureba imbere ndetse bamufotoye ku gice cyo hejuru, yambaye ikanzu ifite amabara atukura ndetse harimo n'umukara n'umweru yambaye karuvati.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru, ndetse yambaye umwenda w'abagororwa ndetse mu ntoki ze afite ikaye ya rojisitire, uyu mugabo aricaye intebe yicayemo ni umukara.

Urupangu rusize ibara ry'umukara n'umutuku, hariho icyapa ku ruhande kerekana amabwiriza aranga ahantu, ni gereza ya Nyanza, iruhande rwaho hari akazu umusekirite yicaramo cyangwa umucungagereza.

Umugabo ufite imvi, wambaye imyenda y' abacamanza. Imyenda n' umutuku ubururu ndetse n'umweru, ari kureba imbere, amatwi abiri aragaragara.

Perezida Paul Kagame arahagaze iruhande rw'idarapo ry'u Rwanda rifite ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi ari gutanga ubutumwa ku bantu bari kumwumva.

Abantu bicaye ku ntebe z'ibiti ndetse imbere yabo hari abandi bicaye ndetse bo bafite n'ameza. Imbere yabo hari mudasobwa, izi ntebe zigiye ziriho ji ndetse n'amazi y'inyange.

Abacamanza biganjemo abagore, aba bacamanza bambaye amakanzu y'umutuku ndetse ariho karuvate y'umweru aba bacamanza bambaye ingofero zifite ibara ry'umukara ndetse rizengurutseho irangi ry'umuhondo.

Umugabo w'umucamanza wambaye amarinete ndetse ari kureba imbere, yambaye ishati y'abacamanza ndetse ifite ibara ritukura, umukara ndetse n'umweru, uyu mugabo yambaye na karuvati.

Inyubako yitwa gereza, iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye ni ndende cyane ndetse imbere yayo hari umunara ufite ibyuma bifite ibara ritukura, imbere yacyo hari abagororwa bambaye imyenda isa ndetse n'abantu babacunga.

Abunzi bicaye basa n'abari gucira umuntu urubanza wambaye iroza, abaturage baje ku bwinshi kumva uko urubanza rugenda.

Abantu batatu umwe ni umugororwa w'umugore ndetse yambaye amarinete n'imyenda y'abagororwa, inyuma ye hari umugore n'umugabo b'abacunga gereza bambaye imyenda y'akazi ndetse n'ingofero zabo.

Abunzi bicaye ku ntebe z'ibiti ndetse imbere yabo hari ameza nayo asa n'intebe imbere yabo hari umuntu uhagaze wambaye ipantaro y'umweru iruhande rwe hari abantu bicaye bafite imitaka barikumva urubanza.

Uruzitiro rurerure rwa gereza . Imbere yaho hari gutambuka abagororwa bambaye imyenda isa ari benshi. Ndetse aha bari kumwe n'abashinzwe kubarinda.

Abantu bicaye bateze amatwi imbwirwaruhame, imbere yabo hari umuntu uri kubabwira. Ndetse hari abandi bafite amakayi, bategereje, nk'aho hari icyo bashaka kwandika.

Abagabo batatu bicaranye babiri bambaye imyenda y'abacamanza ndetse ifite amabara y'umukara n'umweru hagati yabo hicaye umugabo wambaye imyenda imeze nk'iy'abagororwa.

Umugabo w'umwirabura w'umucamanza yambaye ikanzu iri mu mabara atukura ndetse arimo ibara ry'umukara n'umweru uyu mugabo yambaye karuvati ndetse yifotoje areba imbere neza kuburyo amatwi abiri agaragara neza.

Umugore w'umucamanza w'umwirabura afite umusatsi yawufungiye inyuma, yambaye ikanzu itukura ndetse irimo ibara ry'umukara, uyu mugore ari kureba imbere.

Abantu babiri bicaye bambaye udupfukamunwa imbere yabo hari amamashini basa n'abakora mu irembo hari imashini mudasobwa hakaba n'indi isohora impapuro.

Uruzitiro rurerure rufite amatafari ahiye, iruhande rwaho hari kugenda abagororwa bambaye imyenda isa bari kugenda kumurongo aba bagororwa bagiye kwinjira.

Abantu babiri bicaye umwe ni umukobwa undi ni umugabo bambaye udupfukamunwa tw'ubururu ndetse uyu mukobwa yambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara n'umweru, imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse hari n'indangururamajwi.

Abagabo babiri ndetse n'undi umwe uri kugaragara akaboko. Aka kaboko gafashe icyombo icyombo ni telefoni zikoreshwa n'abantu bashinzwe umutekano, aba bantu babiri bagaragara umwe ni umwirabura ndetse undi ni umuzungu.

Abantu bicaye mu nama, barimo abagore n'abagabo. Umugabo yambaye amarineti ndetse n'ikoti, ari kureba imbere, umugore umwe na we yambaye rinete.

Ubutumwa bwanditse, ubu butumwa buragira buti wari uziko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba bakwizeza kugufasha kubona ubutabera mu nkiko birinde ubutabera ntibugurwa.

Umupolisi wambaye imyenda y'akazi ndetse n'ingofero, iyi myenda yanditseho polisi hariho n'amabara y'icyatsi, imbere ye hari imodoka itwara abantu yanditseho tagisi ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Abantu babiri bari kugenda iruhande rw'umuhanda umwe ni umupolisi yambaye imyenda y'akazi akora mu muhanda, undi yambaye ishati isanzwe iciye amaboko n'isaha ku kuboko.

Umugabo uri gutera intambwe yambaye inkweto z'umukara ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru yambaye n'ingofero, imbere ye hari imodoka ya polisi ya pandagali.

Kizimyamoto iruhande rwayo hari igipapuro kiriho uko ikoreshwa ndetse n'ukuntu ushobora kuyifungura igihe ari ubwa mbere ugiye kuyikoresha.

Abapolisi babiri bahagaze imbere ya moto ya polisi, bambaye impuzankano bameze nk'abari mu kazi, imbere yabo hari imodoka y'umweru iparitse, hari icyapa cyanditseho goodlife.

Kizimyamwoto, kizimyamwoto ni igikoresho cyabugenewe gishinzwe cyangwa gikoreshwa mu kuzimya ahantu habaye inkongi. Kizimya mwowoto iri mu ibara ry'umutuku ndetse ifite umupira niwo bakoresha batunga ahantu bashaka kuzimamya.

Imodoka ebyiri ziri kubisikana zitandukanyijwe n'akarondorondo k'ubutaka gateyemo umukindo, izi modoka imwe ifite amarangi y'umukara ndetse indi n'imodoka ya polisi ya kwasiteri.

Igikoresho cyabugenewe gikoreshwa mu kuzimya ahantu habaye inkongi y'umuriro, iki gikoresho kigira ibara ritukura ndetse kiba gifite n'umupira bafata igihe bari kuzimya inkongi.

Kizimyamoto, kizimyamoto ni igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. Kizimyamwoto ifite ibara ry'umutuku ndetse hejuru ifite ahantu bakanda ndetse ikaba iriho n'umupira ufite ibara ry'umukara.

Urwego rwagenewe guhagararwaho mu gihe umuntu ashaka kureba ikintu kiri hejuru cyangwa gufata ikintu kiri hejuru, arwuhuriraho akegera hejuru maze agakora ibyo ashaka gukora.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'amarinete, mu ntoki ze afite agapapuro ari kugira aho agashyira, uyu ni perezida wa repubulika y'u Rwanda Polo Kagame.

Abantu benshi bari mu nama bateze amatwi abagabo batatu bari kugira icyo bababwira, umwe yambaye umupira wanditseho indi ntambwe, abandi bagabo babiri bambaye amakoti meza.

Abantu benshi bambaye imyenda y'icyatsi barangajwe imbere n'abantu batatu harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, bambaye imyenda y'imyeru ifite uturangantego turiho ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Efuperi, efuperi ni ishyaka ryo mu gihugu cy'u Rwanda. Efuperi bisobanuye furonti patiriyotike Rwanda. Iri ni ishyaka rihagarariwe na Paul Kagame.

Ikiganza gifashe ifoto iriho abantu batatu biyamamarizaga kuyobora repubulika y'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Kagame Paul, Mpayimana Philippe na Habineza Frank.

Icyapa cyamamaza kiriho perezida Kagame cyanditseho tora Polo Kagame imbere yaho hari abamotari batatu bicaye kuri moto umwe yambaye kasik y'umutuku undi yambaye kasike y'icyatsi.

Inama yateranye irimo abantu benshi cyane bose baricaye, umuntu umwe niwe uhagaze ari kubagezaho ikiganiro imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'icupa ry'amazi ry'inyange.

Abantu benshi bambaye imipira n'amashati by'umweru ndetse bambaye n'ingofero, bose bazamuye ikiganza cy'iburyo ndetse abenshi bafite ikiganza gifite ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umutuku. Aya ngaya ni amadapo y'ishyaka rya FPR Inkotanyi.

Abagore babiri bicaye mu nama, bose bambaye amarineti umwe arikuvuga undi amuteze amatwi, imbere yabo hari amazi y'inyange.

Abagabo batatu bambaye amakoti ndetse na karuvati, bafite mu ntoki zabo amakaye, ndetse iruhande rwabo hari umugore wambaye ikanzu nziza. Inyuma y'uyu mugore hari undi mugore wambaye amarineti ndetse afite ibisuko.

Icyapa cyamamaza umukandida witwa Philippe Mpayimana. Philippe Mpayimana, afite ifoto yambaye ikoti ndetse na karuvati. Iki cyapa cyanditseho isibo ubwiza.

Abantu bambaye imipira y'umweru ndetse n'amapantaro y'imikara, imbere yabo hari impapuro zihateretse. Izi mpapuro ni iz'amatora yabaye bari bari kubara amajwi. Bari kuzifata bazishyira mu ka box.

Abantu bane, batatu bicaye ndetse n'umwe uhagaze ufite indangururamajwi, yambaye ishati y'icyatsi, uyu mugabo bamwita Mpayimana Philippe, ahagarariye ishyaka ryiyamamarizaga kuyobora Repubulika y'u Rwanda, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Abaturage benshi bambaye imipira y'ubururu n'umweru bambaye ingofero bafite amadarapo efuperi barasa n'abaje gushyigikira umukandida wabo Paul Kagame.

Abantu benshi bahanze amaso perezida Paul Kagame uri gusuhuzanya n'undi muntu wambaye ikote barishimye bari guseka ndetse abantu bose babegeye akanyamuneza kabasabye.

Abantu bane bicaye, imbere hicaye umugabo wambaye ikote ry'ubururu, ndetse na karuvati, inyuma ye hari babiri bateganye umugore n'umugabo, umugore arasutse ndetse yambaye umupira ufite amabara y'umutuku, inyuma hari umugabo wambaye nawe ikoti ry'ubururu.

Abantu benshi bari kwamamaza umukandida wa FPR; bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umutuku, bafite amadarapo ariho FPR. FPR ifite ibirango biri mumabara atukura, umweru ndetse n'ubururu.

Ibyapa byamamaza bitatu biriho umukandida wiyamamarizaga kuba perezida wa repubulika y'u Rwanda mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane hariho ifoto ye yambaye ikoti, ishati y'umweru ndetse na karuvati. Iki cyapa cyanditseho indi ntambwe.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'imikara ndetse bambaye amakoti imbere yabo hari indangururamajwi ndetse n'icupa ry'amazi aha hantu.

Umugabo w'umwirabura wambaye amarinete, bamufotoye ku gice cyo hejuru, uyu mugabao yambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru na karuvati.

Abantu babiri bicaye umugore n'umugabo. Umugore yambaye amarineti ndetse afite ikayi ari kwandika, n'umugabo nawe we nuko ndetse inyuma yabo hari ibyapa byanditseho amagambo agira ati :''ubumwe n'ubudaheranwa.''

Umugore wicaye wambaye amarineti, afite imisatsi miremire y'umukara uyu mugore imbere ye hari ikayi ndetse na terefone, iruhande rwe hateretse amazi y'Inyange.

PSD ni ishyaka ryigenga rikorera mu gihugu cy'u rwanda; rifite idarapo ririranga ririmo amabara atatu ibara ry'ubururu, ibara ry'umweru, n'ibara ry'icyatsi; mu ibara ry'umweru niho handitsemo ijambo PSD.

Abantu benshi cyane bambaye imipira isa y'umweru ndetse n'ingofero. Aba bantu bari kwamamaza ishyaka FPR. FPR ifite ibirango biri mu mabara atatu: ibara ry'ubururu, ibara ry'umweru ndetse n'ibara ritukura.

Abaturage bari kwamamaza Mpayimana Philipe, Mpayimana Philipe yiyamamarizaga kuyobora repubulika y'u Rwanda muri bibiri na makumyabiri na kane aba baturage bafite ibyapa biriho ifoto ye Mpayimana Philipe yambaye ikote.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara imodoka itwaye inka ndetse imbere yaho haparitse izindi modoka iruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Abamotari bahagaze ku ruhande rw'umuhanda. Aba bamotari, umwe iruhande rwe hahagaze umusore wambaye ishati y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, akoze mu mufuka ari kwishyura amafaranga. Aha ngaha ni mu Mujyi aho bita kwa Rubangura. Aho abamotari baparika.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka yikamyo ifite ibara ry'umweru, ndetse inyuma hariho ibirango byamamaza inyuma yimodoka, nko muri metero eshanu hari moto iruhande rw'umuhanda harirumu umugore uhagaze afite indobo irimo ibisheke.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikorosi ndetse ugikata iri korosi hari inzira abanyamaguru bambukiramo. Igezeho moto ibanje guhagarara. Iyi moto umumotari yambaye kasike itukura.

Moto y'amapine atatu, ishinzwe gutwara imizigo, iri mu muhanda nyabagendwa yonyine. Iruhande rw'umuhanda hateye ibiti birebire. Ndetse hariho n'amatara ashinzwe kumurikira abagenzi igihe bwije.

Umuhanda urimo imodoka imwe itwara imizigo, irapakiye ndetse imizigo iratwikiye n'ihema rifite ibara ry'ubururu, iruhande rw'iyo modoka hari abantu bahagaze ndetse hari n'umufuka urambitse hasi.

Muri gare ahantu abaturage bategera imodoka bagiye mu bice bitandukanye by'igihugu, hari kugaragara imodoka za ritiko zifite amabara y'icyatsi, umweru ndetse n'umukara.

Moto y'amapine atatu iparitse ku muhanda, iyi moto ifite ibara ry'ubururu ndetse umuryango wayo urafunguye w'inyuma, in iyi moto yanditseho made Rwanda ikorerwa mu rwanda nicyo bivuze.

Imodoka ishinzwe gutwara abantu mu mujyi wa kigali ifite amabara abiri, ibara rya oranje ndetse n'ibara ry'umweru, iyi bisi iruhande rwaho hari umugenzi uri gutambuka wambaye isarubeti y'ubururu.

Imodoka iri kugenda, ifite irangi ry'ubururu, inyuma yayo hari indi modoka iyikurikiye. Ziri mu muhanda urimo izindi modoka nyinshi ndetse ku ruhande rw'umuhanda haparitse izindi modoka. Hari abantu bari kugenda ku muhanda nyabagendwa.

Umuhanda nyabagendwa urimo igare ndetse n'imodoka ebyiri ziri kubisikana. Imodoka imwe y'ikamyo ifite ibara ry'umweru ndetse n'imodoka ntoya ifite ibara ritukura.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ebyiri moto imwe igizwe n'amapine atatu yagenewe gutwara imizigo indi moto iriho umumotari igizwe n'amapine abiri uyu mumotari yambaye casike ifite ibara ry'umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto imwe ifite ibara ritukura, umutwazi wayo yambaye kasike ifite ibara ry'umuhondo ndetse yambaye n'inkweto z'umukara. Iruhande rwaho hateye ibiti.

Umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka imwe ifite ibara ry'umweru, yitwa kwasiteri. Ishinzwe gutwara abagenzi. Ndetse harimo moto ebyiri, zitwaye n'abagenzi. Ku ruhande, ku kayira k'abanyamaguru, harimo umugabo wikoreye umufuka.

Umuhanda nyabagendwa, urikugendamo moto ifite amapine atatu. Iyi moto ifite ibara ry'ubururu ndetse hari ibintu ihetse. Iri kugendera mu gisate cy'iburyo ndetse iruhande rw'umuhanda hari ibiti ndetse hari n'amatara amurikira abagenzi igihe bwije.

Umugabo wambaye imyenda y'akazi ipantaro n'ishati by'ubururu, yambariyemo umupira w'umutuku, inyuma ye hari abantu benshi basa nabari mu masoko.

Imodoka nini itwara abagenzi yitwa litiko, ifite amabara abiri; ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi ryerurutse. Iyi modoka igaragara ku gice cy'imbere neza.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ifite amapine atatu, ndetse iyi moto ifite amabara yubururu. Iruhande rw'iyi moto hari abantu babiri bari kugenda, ndetse iruhande rwabo hateye ibiti.

Umuhanda ufite ibice bibiri bigenderwamo mu byerekezo bitandukanye. Uyu muhanda urimo moto y'umutuku ndetse iyi moto ihetse umugenzi. Iburyo bw'uyu muhanda, hari uruzitiro rufite irangi ry'umweru.

Umuhanda nyabagerwa urimo ibikamyo bibiri bishinzwe gutwara amakontineri. Ibi b'imodoka kimwe gifite irange ry'umweru, ikindi gifite ubururu biri kubisikana.

Muri gare; muri gare ni ahantu bafatira imodoka zijya mu byerekezo bitandukanye, harimo abantu benshi biganjemo abambaye imyenda y'ubururu, harimo umugabo uri kugenda wikoreye umufuka.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ebyiri ndetse zitwaye abagenzi, harimo n'igare rimwe ritwaye umugenzi, ibumoso bwawo hari akayira k'abanyamaguru ndetse kariho rigore ishinzwe gutwara amazi, iburyo bw'umuhanda hateye ibiti.

Imodoka iri mu muhanda nyabagendwa, ifite ibara ry'umweru ku gice cy'imbere, ku gice cy'inyuma ni ubururu ndetse ibumoso bw'umuhanda hari rigore y'amazi, iburyo bw'umuhanda hari ibiti bihateye.

Imodoka ishinzwe gutwara abagenzi mu mugi wa Kigali, ndetse no mu nkengero zawo. Iyi modoka ifite ibirango byamamaza banki ya Kigali. Ndetse iruhande rwaho hicaye abagenzi bategereje kwinjira mu modoka.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga biri kubisikana, hari imodoka yitwa toyota ifite ibara ry'umweru iri kubisikana n'imodoka itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, yitwa shira umuteto ifite amarangi y'ubururu.

Umuhanda nyabagendwa utagaragara neza, urimo igikamyo gifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi, kiri kubisikana n'igikamyo gifite amabara atukura, iruhande rw'iki gikamyo hari umuntu wambaye umupira w'umukara ndetse uri gucunga ipine.

Ni nijoro mu muhanda uyu muhanda urimo umunyonzi uri gusunika igare ririho umufuka munini w'umweru ndetse imbere ye hari guturuka imodoka icanye amatara, iyi modoka ifite ibara ry'umweru.

Ikibuga bigishirizaho imodoka giparitsemo imodoka eshatu zifite amabara atukura, ebyiri ziregeranye imwe irazitaruye, inyuma yazo hari ibiti ndetse iruhande rwaho hari amakona.

Umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka imwe ifite ibara ry'umweru, inyuma mu modoka hicayemo umuntu wambaye umupira w'umukara, ndetse uyu muhanda iruhande rwawo hari ibiti. Urebye kurundi ruhande, hariho umuyoboro w'amazi.

Umuhanda nyabagendwa ufite ihuriro ry'imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye, harimo imodoka eshatu, imwe ifite ibara ry'ubururu ndetse n'izindi ebyiri zisa, harimo moto ebyiri.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka imwe ifite ibara ry'umweru ndetse iriho icyapa cyamamaza cyanditseho uruvange, iruhande rw'imodoka hari ibiti bihateye.

Imodoka y'umweru ihetse amatafari ya ruriba ifite amapine y'umukara iri mumuhanda nyabagendwa umuhanda warasadutse urasa nk'uwangiritse imbere yayo hari umuntu umwe ufite akantu k'ubururu.

Imodoka igaragara ku ruhande rw'iburyo ifite amabara y'umweru ndetse iyi modoka iriho icyapa cyamamaza cyerekana yuko iyi modoka yagenewe kwigishirizwamo abanyeshuri bashaka kwiga imodoka. Iyi modoka kandi yicayemo abantu babiri umwe w'umwarimu ndetse n'undi munyeshuri.

Umuhanda urimo imodoka imwe ifite ibara ry'umweru, inyuma yayo hari amamoto. Mu nzira y'abanyamaguru harimo umugabo wambaye isarubeti y'ubururu ndetse wikoreye umufuka.

Imodoka yagenewe gutwara imizigo ndetse ifite ibara ry'umweru. Iyi modoka irapakiye ibintu byinshi ndetse birahambiriye, hejuru y'iyi mizigo hicaye umuntu wambaye umupira w'umuhondo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, uyu muhanda harimo imodoka ifite ibara ry'umweru hakabamo igare ritwawe n'umuyonzi ndetse rihetse umugenzi, harimo moto y'amapine atatu ifite ibara ry'ubururu.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto imwe ifite amapine atatu ndetse itwawe n'umushoferi umwe, iruhande rwayo hari imodoka igaragara ku gice cy'inyuma, ibumoso bw'uyu muhanda hari imiyoboro y'amazi yabugenewe.

Umuhanda nyabagendwa, ugaragara igice gitoya. Uyu muhanda kandi uparitsemo igare, umunyonzi yambaye umupira w'umuhondo ndetse intebe ye abagenzi bicaraho, ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, iruhande rwe haparitse imodoka ndetse hari n'abantu bari kuhatambuka.

Imodoka yabugenewe ishinzwe gutwara abantu by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, ifite ibara ry'umweru n'ubururu. Iyi modoka ijyamo abantu benshi, hari abagenda bicaye ndetse n'abagenda bahagaze.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka imwe ifite ibara ry'ubururu, iyi modoka yagenewe gutwara imizigo. Iruhande rw'umuhanda munzira nyabagendwa harimo umugenzi uri gutera intambwe agenda.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka imwe y'ikamyo ifite amabara y'umweru, iburyo bw'uyu muhanda hari akayira k'abanyamaguru ndetse na rigore itwara amazi.

Umuhanda utagaragara neza, urimo igikamyo gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu. Hejuru yacyo hari icyapa kigaragara, cyamamaza, cyanditseho ijambo mitsingi. Mitsingi ni ikinyobwa gikorerwa mu Rwanda ndetse iruhande rw'uyu muhanda hariho akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda urimo imodoka zishinzwe gutwara imizigo bazita dayihatso. Iyi modoka ifite irangi ry'ubururu ndetse iparitse ku ruhande rw'umuhanda.

Imodoka ya kwasiteri itwaye abantu ifite ibara ry'umweru, imbere yayo hari moto itwaye umugenzi umugenzi yambaye kasike y'umuhondo, iruhande rwe hari ibiti.

Abantu babiri bari kugenda ku mbibi z'umuhanda urimo kaburimbo umugore n'umugabo, umugore aritandiye yambaye ijire ya MTM, i ruhande rwabo harimo iri imodoka iri mu ibara ry'umutuku.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka itwaye imizigo ifite ibara ry'umweru ndetse n'imodoka y'ubururu igaragara ku gice cy'inyuma, urebye hirya hari umunyonzi uhetse umuntu wambaye imyenda y'umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa. Urimo imodoka imwe ifite ibara ritukura ndetse ikabamo n'amagare abiri. Rimwe ni iry'umuyonzi atwaye umuntu ndetse irindi ni irisanzwe ryo bakorana siporo.

Imodoka ya kwasiteri ifite ibara ry'umweru iri kugendera mu muhanda nyabagendwa. Iruhande rw'umuhanda hari ibiti bifite amashami y'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka imwe ifite ibara ry'umweru n'ubururu. Inyuma yayo hari abamotari bafite kasike z'umutuku ndetse iruhande rw'umuhanda hari kugendera umuntu wambaye ikabutura ndetse n'ingofero.

Imodoka y'umweru ifite amatara atukura ndetse n'umweru, yanditseho amagambo agira ati '' yego kabuzi '' iyi modoka iragaragara ku gice cy'inyuma ndetse itwara abagenzi, ushobora kuyihamagara igihe uyikeneye ikaza ikagufata ahantu uri.

Moto yamapine atatu itwawe n'umugabo wambaye kasike y'umutuku, ari kubisikana n'imodoka y'abakerarugendo isa icyatsi.

Abantu bari gutera intambwe baza, iruhande rwabo hari abandi bantu bicaye, aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali, ahantu bateganyirije abantu kwicara baruhuka, bahashyize udutebe two kugira ngo abantu bajye baruhukiraho.

Inzu y'irerero ry'abana iyi nzu ishushanyijeho abana ndetse yanditseho n'amagambo agira ati ''urugo mbonezamikurire y'abana bato ba Byimana." Iyi nzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse inyuma yayo hari andi mazu yubatswe mu buryo bugezweho.

Sitade. Iki ni ikibuga gikinirwaho umupira w'amaguru ndetse na basikete. Aha ngaha abantu bashobora kuhicara kuko haba hasa neza ndetse hanyerera. Hafite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa, utagaragara neza. Urimo imodoka ebyiri, imwe ifite amabara atukura, indi ifite amabara y'umweru. Iburyo bw'uyu muhanda, hari icyapa cyanditseho Bugesera.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda ku gice cy'ibumoso kirerekana y'uko imbere hari rompoe izengurukamo ibinyabiziga iki cyapa kiri mu ibara ry'ubururu kizengurukishijwe n'ibara ry'umweru.

Icyapa kibuza, icyapa kiri mu ishusho y'umuzenguruko riri mu ibara ry'ubururu riciwemo imirongo itukura, rizengurukishijwe n'ubundi n'ibara ritukura.

Icyapa kiranga amerekezo, iki cyapa cyanditseho akanyaru huye muhanga birerekana yuko ukomeza hari ikindi kiranga gukata ibumoso cyanditseho ruhango kinazi.

Icyapa kiranga amerekezo iki cyapa kirerekana aho umurenge witwa Giheke uherereye ndetse inyuma y'iki cyapa hateye ibiti birebire.

Icyapa gishyirwa ku muhanda aho cyerekana ko abanyamaguru bambukira gifite ishusho ya mpandeshatu ndetse gifite umuzenguruko wa mpandeshatu mu ibara ritukura.

Ibimenyetso byo mu muhanda byerekaNa abemerewe kugenda abo ari bo hagati y'abagenzi cyangwa ibinyabiziga. Umutuku usobanura ko abagenzi bemerewe guhita, icyatsi cyerekana ko abagenzi bahagarara ibinyabiziga bigahita.

Icyapa kiburira abantu batwaye ibinyabiziga ko bagomba kwitonda bakagenda gake ko imbere hari inkomyi iki cyapa gishyirwa ku ruhande rw'ibumoso nicyo ukurikiza igihe ugenda.

Inzu nziza isize irangi ry'muhondo ifite ibirahure byinshi, ikirahure kimwe kirafunguye kugirango umwuka ubashe kwinjiramo imbere.

Ifoto igaragaza imiturire, iyi foto irerekana ahantu abantu batuye hagiye harimo inzu ndetse n'ibiti, ibi biti bitanga akayaga kuri aba bantu bahaturiye handitseho Kimironko.

Umuhanda ukomeza ndetse n'ukata iruhande rw'umuhanda hari icyapa kibuza ibikamyo gutambuka ndetse muruhande rw'ibumoso bw'uyu muhanda haparitse imodoka ndetse hubatse inzu y'amagorofa abiri.

Umuhanda nyabagendwa ufite imbibi zifite irangi ry'umweru n'umukara hari icyapa kuruhande rw'ibumoso cyanditseho amagambo mu Cyongereza imbere yaho haparitse amamodoka y'ibikamyo asa nk'aho atwara imizigo.

Urusisiro rurimo abantu benshi ndetse haparitse abamotari. Harimo abanyamaguru bari kwambukiranya umuhanda ndetse abamotari biganjemo abambaye kasike z'umutuku. Inyuma yaho haparitse imodoka ndetse hari n'igorofa.

Umuhanda ukomeje uhindura ikerekezo ukuboko kw'iburyo urimo umunyonzi utwaye igare ndetse n'imodoka n'abantu bari kwambuka aba bantu bari kwambuka bagana ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabara abiri, ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru, iyi nyubako yanditseho zigama, zigama ni ikigo gishinzwe kuzigamira abaturage, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda.

Icyapa cyamamaza kiri mu ibara ry'umutuku, hejuru yacyo handitseho Remera. Inyuma y'iki cyapa hari ibyatsi, inyuma y'ibi byatsi hari urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye. uru rupangu rurimo inzu nziza.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka nyinshi, abantu benshi ndetse na moto nyinshi, uyu muhanda uherereye mu giporoso, iruhande rw'umuhanda hariho ipoto, ipoto ririho insinga zijyana amashanyarazi.

Abana bari ku ishuri, bari gukina barya umunyenga, bamwe mu itsinda rimwe abandi mu rindi tsinda, hari igipangu kibakikije gifite irangi ry'ubururu n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka imwe y'ikamyo, inyuma yacyo hari igare rihetse imifuka, uyu muhanda ukikijwe n'utuyira tubiri tw'abanyamaguru ndetse iruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru hateye ibyatsi.

Umuhanda munini urimo inzira abanyamaguru bambukiramo, bashaka kujya kurundi ruhande imbere hari icyapa cyangwa ikimenyesho cyerekana ko abagenzi bagomba kwambuka.

Umuhanda nyabagendwa ,iruhande rw'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru, ndetse iruhande rw'inzira y'abanyamaguru hari icyapa cyerekana ko imbere hari aho abagenzi bambukira, ndetse hari n'ikindi cyapa cyanditseho Nyarugenge.

Umuhanda nyabagendwa ugaragara igice kimwe ndetse uriho parikingi, aho abantu baparika ibinyabiziga kugirango abagenzi babashe kwinjiramo, ndetse hari n'akazu gafite ibara ry'ubururu, aha niho abagenzi bicara baruhuka cyangwa bategereje imodoka ibatwara.

Umuhanda ufite ibice bibiri bigendwamo mu cyerekezo kimwe, iruhande rw'umuhanda hari amapave agendwaho n'abanyamaguru, iruhande rw'amapavi ku ruhande rw'iburyo hari icyapa cyanditseho pa giciyemo umurongo utukura usobanuye y'uko aha hantu hatemewe guparikwa.

Umuhanda nyabagendwa ufite imirongo y'umweru abagenzi bambukiramo imbere hari ibimenyetso byereka abagenzi ko bagomba gutambuka.

Umuhanda wa kaburimbo ujya mu byerekezo bibiri bitandukanye urimo imodoka z'amafuso, imbere yazo hari umumotari wicaye kuri moto, haruguru yaho hari icyapa cy'ubururu kiriho amerekezo.

Umuhanda nyabagendwa mugari urimo moto ifite ibara ritukura ndetse umumotari uyitwaye yambaye kasike itukura ndetse n'umugenzi, uyu muhanda ukikijwe nzitiro zifite ibara ry'umweru ndetse hateye ibiti ku nkengero z'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa uherereye Kicukiro ndetse biragaragara ko ari n'ijoro, ibinyabiziga biwugendamo bicanye amatara ndetse n'amatara yo ku muhanda aracanye kugirango abashe kumurikira abagenzi.

Umuhanda nyabagendwa uri munsi yikiraro, iki kiraro hejuru yacyo hari undi muhanda uzitiwe n'ibiti bifite amabara yumukara n'umweru. Munsi yikiraro umuhanda urimo urimo ibinyabiziga bibiri, igare rihetse imifuka ndetse n'umumotari uhetse umugenzi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga ndetse byiganjemo amagare. Aha ni ku kinamba munsi y'ikiraro. uyu muhanda iruhande rwaho hari akayira k'abanyamaguru ndetse iruhande rw'aka kayira hari ibyatsi bihateye.

Umuhanda urimo imodoka y'ikamyo ndetse ufite icyapa kuruhande cyo guhagararamo; giparitsemo imodoka ndetse iruhande hari inzu yabugenewe abantu bicaraho iyo bategereje ikinyabiziga. Iyi nzu ifite ibara ry'ubururu.

Umuhanda urimo imodoka enye, imwe ya bisi n'izindi eshatu ntoya, harimo n'abamotari ziri gukata rompuwe ijya mu mujyi iri mu kanogo.

Umuhanda nyabagendwa, umuhanda urimo imodoka imwe ifite ibara ritukura, iruhande rw'uyu muhanda hateye ibiti birebire ndetse ibi biti bifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa ugizwe n'ibice bibiri, Igihande kimwe kirimo ibisate bibiri bijya mu cyerekezo kimwe ikindi gice nacyo kirimo ibiha ibisate bibiri bijya mu cyerekezo kimwe. Uyu muhanda uherereye mu Kanogo werekeza mu mujyi.

Umuhanda nyabagendwa, urimo kaburimbo, abaturage bari kwambuka, imodoka na moto birahagaze bitegereje ko bamara kwambuka, iruhande rwaho umuhanda ukikijwe n'ibiti.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka imwe iri kugenda ndetse n'izindi zihagaze, zitegereje ko ibimenyetso byo mu muhanda bitanga uburenganzira ngo zigende, iyi modoka icanye amatara ifite ibara ry'umukara.

Umuhanda uri hejuru ku kiraro ndetse munsi y'ikiraro hariho undi muhanda, uyu muhanda uherereye ku kinamba ndetse ku kayira k'abanyamaguru kari ku ruhande rw'iburyo kari kugendamo abantu, uyu muhanda na none hari kugendamo umunyonzi ufite igare.

Umuhanda w'ibitaka, uyu muhanda ukikijwe n'ibiti ndetse n'indabo, ibi biti ni birebire ndetse iruhande rwabyo hari amazu, amazu afite ibisenge bizamuye cyane.

Umuhanda nyabagendwa urimo imirongo y'aho abanyamaguru bambukira, iyi mirongo ifite ibara ryera ndetse uyu muhanda urimo imodoka ifite irange ry'ubururu ndetse imbere yaryo hari igare.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka, iyi modoka igaragara ifite irangi ry'ubururu ndetse iruhande rwaho hari abanyonzi; hari umunyonzi wa paritse igare ndetse iburyo bw'umuhanda hari inyubako y'igorofa.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo mu byerekezo bibiri bitandukanye. Uyu muhanda utandukanyijwe n'akarondorondo k'ubutaka ndetse gateyemo ibiti. Iruhande rw'umuhanda hateye ibiti noneho iruhande rw'ibiti hari akayira k'abanyamaguru.